Umugabo ufite imyaka mirongo itatu n'itanu cyangwa mirongo ine, ari kumwe n'umuganga. Akaba yaje kwipimisha, imbere mu cyumba harimo akabati karimo imiti na sanitayiza.